Ahantu hahuriye abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo umubyeyi wambaye indorerwamo z'amaso, yicaye imbere y'abana ubona bamukikije.

Abantu baturutse hirya no hino baje kuvoma amazi ku iriba, bafite indobo z'umweru, umuhondo, n'ubururu, ni ahantu ubona ko hahuriye abantu benshi.

Umusaza uri guhabwa ubufasha na muganga amuvura. Uyu musaza biragaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi, akeneye umuntu umwitaho.

Ejo bundi nari ndi kumwe n'abantu benshi turi kuganira, ariko iyo muganiriye bakubwira ko iyo muri kumwe biba byiza kuko hari inama mwungurana.

Abagabo bambaye amakoti meza y'umukara bari kumwe n'abagore babo, bari mu nyubako nini baje gukora ibikorwa bitandukanye babikorera abaturage.

Mu cyumba kiberamo inama harimo abagabo babiri bambaye amakote meza, imbere yabo kumeza hateretse amacupa y'amazi ndetse kuri ayo meza hariho igitambaro cy'umuhondo.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru, ari kumusobanurira zimwe mu ndwara zibasira abantu, ari kumuha ubujyanama ndetse n'uburyo yakirinda indwara, akoresheje imiti yabugenewe.

Kwa muganga hahurirayo abantu bafite indwara zigiye zitandukanye. Hano turi kureba umwana w'umuhungu uri kwitabwaho na muganga, yazanywe n'umukecuru kugira ngo amugezeyo amahoro.

Iyo abana bahuriye ku iriba, bituma batindayo ariko iyo umwohereje akajyana n'umuntu mukuru aramucyaha, akamwohereza vuba vuba.

Umukobwa uri kuvoma amazi atemba mu mugenda kugira ngo ayakoreshe yoza ibikoresho, iyo ukoresheje amazi mabi bituma urwara indwara zitandukanye.

Umwana uri ku iriba, ari kuvoma amazi akoresheje igikombe, yambaye umupira utukura ndetse arimo guseka. Uyu mwana afite imyaka hagati y'umunani n'icumi.

Abantu bahuriye ku iriba, harimo abana b'abakobwa ndetse n'ababyeyi bari kubafasha kuvoma amazi, bafite amajerekani y'umuhondo.

Tukiri abana twakundaga kujya ahantu hari amazi maze tugakina nayo. Umwana akunda gukina iyo ari kumwe na mugenzi we bityo bigatuma bishima.

Kwa muganga ni ho bafashiriza abantu bose bagize ibibazo by'ubuzima, iyo urwaye biba byiza iyo ugiye kwa muganga kubera ko kwirinda biruta kwivuza.

Ahantu hahuriye abayobozi bari mu nama, bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye abaturage bayobora bahura na byo, bari kwiga ku buryo byakemuka.

Iyo umuntu ari wenyine bituma abasha guhangayika ndetse agahura n'ibindi bibazo by'ubuzima ariko iyo ubwiye umuntu ikibazo cyawe, aragufasha maze ugasubira ku murongo.

Abantu bateraniye hamwe, bambaye imyenda y'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi, ni abagore ndetse n'abagabo.

Umugabo ufite indangururamajwi wambaye ishati y'ubururu, uyu mugabo ari kwitegereza abaturage abagezaho imbwirwaruhame yabateguriye.

Umukecuru wicaye hanze y'inyubako aratetse. Uyu mukecuru biragaragara ko yishimye kandi arimo guseka, atetse ku mashyiga akoresheje inkwi.

Umusore wambaye umupira w'ubururu n'umweru, yicaye ahantu mu cyumba kigaragara ko ahafungiwe, yambaye amapingu ku maguru.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda yacitse. Ari ahantu hajugunywa imyanda kugira ngo hakorerwe isuku mu baturage.

Abantu bahuriye hamwe bambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye, ni abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko rwahuriye mu nyubako, bari mu nama yabahurije hamwe.

Iyo ugize ikibazo cy'uburwayi biba byiza iyo ugiye kwa muganga, hano hari umwana urimo kwivuza indwara y'amenyo kubera ko yatinze kujya kwa muganga ngo bamufashe.

Umusore uri kumwe n'umwana bari gukoresha akadodo bakanyuza mu menyo kugira ngo bakunde bamere neza, bambaye imipira y'imyeru.

Umusore urimo guseka bigaragara ko ari umuganga, iyo ugezeyo aragufasha bityo ukabasha gukira, akubaza indwara ufite maze akaguha imiti.

Umuganga ufite igikoresho bifashisha bapima ndetse bavura amenyo, iki ngiki bakigenderaho bakurikije uburyo gikoze.

Indwara y'amenyo ni indwara ikomeye cyane, iyo urwaye iyi ndwara ntabwo usinzira kuko uba wumva ubabara mu kanwa ndetse n'umutwe.

Umusore wambaye umupira w'umweru arimo guseka, yambaye kandi indorerwamo z'amaso bigaragara ko akeye kandi ajijutse.

Umusore uri gukoresha akadodo asukura amenyo ye afite ubwanwa bwinshi. Uyu musore kandi avuye mu myitozo ngororamubiri kuko azi akamaro ka siporo.

Umuganga uri kwita ku murwayi, uyu muganga akubaza indwara ufite maze akamenya uko akuvura ndetse n'uburyo aguha imiti urajyana mu rugo.

Umukecuru wambaye indorerwamo z'amaso, ari kunywa amazi. Ari mu nyubako iteye irangi ry'umuhondo n'umukara, bigaragara ko ari inzu nziza, ihenze.

Abantu iyo bahuriye mu bice bitandukanye ari benshi baraganira bagahuza urugwiro, umuntu ndetse ashobora kuhakura inshuti ndetse n'abavandimwe.

Hambere nasuye abantu tuvukana, maze ndishima. Iyo uri kumwe n'abantu mufitanye isano wumva uguwe neza ndetse niyo uri kumwe n'inshuti iragufasha.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru barimo kuganira, imbere yabo hari impapuro nyinshi zirambitse ku meza, bari kugenda bazisoma bakuramo ubutumwa.

Umusaza uri kumwe n'abana babiri, bari kurya umugati iyo abana babonye ibyo kurya bituma babasha gukura vuba kandi neza.

Inyubako yateraniyemo abantu benshi, bambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye. Imbere y'aba bantu, hari abantu bahicaye bari kubagezaho imbwirwaruhame.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bahahurijwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi, umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Umuntu bigaragara ko yagize ikibazo ku mubiri we, hariho ibiheri byinshi, wagirango yarumwe n'inyamaswa maze imutera ubumara.

Umugabo uhagararanye n'umugore bahagaze imbere y'icyapa kinini bigaragara ko bari kucyamamaza, umugabo yambaye ikoti ryiza ry'umukara naho umugore yambaye ikanzu.

Kwa muganga hari inyubako zigiye zitandukanye, zirimo amabara y'umukara n'umweru. Hari abaganga bahateraniye, bari kureba uburyo bavura abarwayi baje babagana.

Kwa muganga haba ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kuvura abarwayi, harimo ibyo baryamishwaho kugira ngo basuzumwe neza.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, ibyo bikoresho birimo amabara y'umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugirango bite ku barwayi. Harimo ibitanda, intebe nziza, ndetse n'utubati. Aha hantu ni heza cyane.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru, umukara n'umuhondo, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu bahahuriye maze bigatuma bagubwa neza.

Inyubako irimo intebe nziza ndetse n'aho abayobozi bahagarara bari kugeza imbwirwaruhame mu baturage, ni ahantu heza ubona ko hateye imbere.

Umugabo uri kwa muganga, yambaye ishati y'umweru, aryamye ku gitanda aho ari kwitabwaho n'umuganga kugira ngo amuvure maze asubire mu buzima busanzwe.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ahagaze imbere y'inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ubucuruzi bw'imiti ndetse n'ubundi busanzwe.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho abantu bakoresha, muri ibyo bikoresho harimo ibyo baterura, ibyo bakandagiraho bakiruka n'ibindi.

Inyubako isize irangi ry'umweru, yubakishije amatafari ahiye, impande yayo hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Kinyinya kiri ahantu heza, gisakaje amabati y'ubururu ndetse gisize amabara y'umweru.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hagati muri iyi nyubako hanyuramo umuhanda wa kaburimbo ujya mu bice bigiye bitandukanye byo mu gihugu.

Iyo umuntu akoze siporo biramufasha, akabasha kugira ubuzima bwiza ndetse akishima, siporo kandi ituma umuntu akira indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, arimo amuvura indwara zigiye zitandukanye, yamuryamishije ku gitanda kugira ngo abone uko amusuzuma neza maze akire.

Abantu babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, umwe yambaye ikoti ry'umukara, undi yambaye umupira w'umweru, bombi biragaragara ko bakoze siporo.

Umusore ufite umupira w'amaguru. Awuteruye mu kaboko. Uyu musore yambaye umupira w'icyatsi bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umusore ubyibushye cyane, bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri, uyu musore kandi azi akamaro ka siporo kuko zirinda indwara zigiye zitandukanye.

Umuravumba uvura indwara zigiye zitandukanye zibasira umubiri w'umuntu. Iyo umuntu akoresheje uyu muti neza, bituma abasha gukira maze agasubira mu buzima busanzwe.

Imiti gakondo, ikora mu buryo butandukanye. Hari iyo bashyira mu mazi bakanywa, hakaba n'iyo bahekenya bitewe n'indwara urwaye.

Ibiti biri ahantu hahingwa ibimera kugira ngo bizaterwe, maze bivemo ibiti bibazwamo imbaho, bizakoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Iyi ni imiti gakondo iri mu ducupa twabugenewe. Imiti iyo imaze gutunganywa, bayishyira mu ducupa kugira ngo ibikwe neza kandi ifite umutekano.

Igikakarubamba ni umuti mwiza wifashishwa n'abantu bagize ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Iyi miti kandi ivura indwara nyinshi, ku buryo umuntu atatekereza.

Umuti gakondo ufasha abantu benshi gukira indwara zitandukanye, iyo ukoresheje uyu muti neza bituma ukira vuba kandi ugasubira mu buzima busanzwe.

Umuravumba ni umuti mwiza wifashishwa n'abantu mu gukira indwara zigiye zitandukanye, uyu muravumba kandi wifashishwa n'abaganga babyize bakoramo indi miti ivura.

Ipapayi ni urubuto rwiza, rufasha umuntu kugira imbaraga, iyo umuntu ariye imbuto imibereho ye irahinduka, agatangira kumva ameze neza.

Imiti gakondo ifasha abantu benshi gukira indwara zananiranye. Iyo urwaye biba byiza iyo wihutiye kujya kwa muganga kubera ko kwirinda biruta kwivuza.

Imiti igiye itandukanye ivura indwara z'uruhu. Iyo uhawe inama na muganga, biba byiza iyo uzikurikije kuko bigufasha gukira indwara wari ufite.